Ikiyaga cyangwa umugezi urimo amazi atari kugenda, iruhande rwaho hari umurima urimo ibihingwa, muri ayo mazi harimo umugore ufite ijerekani ari kuyavoma, hirya hari umugabo uri koza igare rye akoresheje ayo mazi.

Abantu bicaye ku ntebe z'imbaho, muri abo bantu harimo abagore n'abagabo, harimo umugabo wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ryicyatsi, abo bantu bicaye imbere y'inzu isize irangi ry'ubururu, imbere y'iyo nzu hariho icyapa kigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu gisize irangi ry'umukara, iruhande rwabo kandi hari imodoka.

Umusore ukiri muto w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru, afashe ikiganza cy'umukecuru ari kumuvura, imbere ye hateretse udukarito tw'imiti, iruhande rwe hari umugore uri kumuhereza ipamba.

Abantu bari mu cyumba kinini kiri kuberamo inama bamwe baricaye abandi barahagaze inyuma hari icyapa kiriho amashusho n'amagambo agaragaza ibijyanye n'inama barimo.

Abagore batatu bakinye ibitenge bari aho bavomera amazi, umwe afashe ijerekani ateretse kuri robine ari kuvoma, imbere yabo hari andi majerekani menshi ateretse ategerejwe nayo kujyamo amazi.

Umugore w'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru witeze n'igitambaro mu mutwe, afite igikoresho yifashisha mu gupima, arimo gupima undi mugore wambaye igitenge na we, iruhande rwabo hari abandi bagore bategereje na bo kwivuza.

Umugore wicaye ku ntebe arahumirije yambaye ingofero ya kaki n'agapfukamunwa. Mu ijosi rye harimo agakapu gafite ibara rya move. Iruhande rwe hari undi mugore w'umuganga wambaye agapfukamunwa kubururu n'imyenda y'abaganga y'ubururu. Afite urusinge mu ntoki agiye kurumutera.

Abagore n'abana bicaye hamwe bateze amatwi umugabo ubahagaze imbere ari kuba ubutumwa, uwo mugabo yambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, inyuma y'uwo mugabo hari undi mugabo wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro y'umukara bahagaze imbere y'akazu k'imbaho gasize amarangi y'icyatsi.

Umusore ukiri muto uri guseka wambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara asutamye hasi, afashe akana kambaye umupira wa oranje gahagaze ku cyuma gipima ibiro.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri ifite ibara ry'ubururu, bicaye mu ishuri bafite ibiryo imbere yabo; birimo ibishyimbo na kawunga, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho n'ingwa.

Abantu bicaye mu nama, bicaye ku meza arambuye maremare, bicaye mu nzu ifite idirishya rinini ririmo ibirahure, imbere yabo hari televiziyo, ku meza yabo hari uducupa tw'amazi.

Abagabo babiri n'umugore umwe bicaye buri wese afite ameza ye, bari kureba abandi bantu bicaye imbere yabo baje mu nama, barimo kugira icyo bababwira, inyuma y'aho hari icyapa kinini kigaragaza inama barimo.

Umugore ukennye igitenge ari aho bavomera amazi afashe ku ijerekani y'umuhondo, iruhande rwe hari andi majererekai nayo y'umuhondo ari kujyamo amazi hasi hari ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo y'umweru.

Robine ebyiri ziri kuvamo amazi, hari abantu benshi baje kuvoma ayo mazi, muri aba bantu harimo abagore n'abana, bafite ibyo kuvomeramo bitandukanye, harimo indobo n'amajerekani, hari n'umugabo uri kubafasha kuvoma.

Umugabo n'umugore bahagaze bari imbere bari gufata ifoto, umugabo yambaye ikoti, umugore yambaye ikanzu irimo uturabo, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'umweru arimo ibara ry'ubururu, iruhande rwabo kandi hari ibyapa bibiri, kimwe kiriho abana bishimye bari guseka, ikindi kiho umugore uteruye umwana.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bahagaze ahantu mu kibuga, abandi baricaye, icyo kibuga kirimo ibyatsi byumye, hari ihema rito rimanitse, imbere y'iryo hema hari inzu, hari n'imodoka iparitse ku ruhande rwayo.

Abantu harimo abagabo n'abagore, bavuye mu nama, bose bahagaze bareba imbere, bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini kigaragaza ibijyanye n'iyo nama bavuyemo.

Abana babiri bakiri bato umwe ateze ibiganza arimo guseka undi ateruye igikombe ari gusuka amazi ku biganza by'uwundi, hasi hari ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abagore n'abagabo bambaye amataburiya y'ubururu bose bahagaze, imbere y'abo hari abicaye imbere ku ntebe z'umweru bose bahagaze imbere y'ihema kandi imbere y'abo hari ibyatsi.

Urubyiruko harimo abakobwa n'abasore, bamwe bambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru, abandi bambaye imipira y'ubururu bukeye n'ingofero z'umweru, harimo n'umugabo ukuze wambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'umweru, bose bahagaze imbere y'icyapa kinini kigaragaza ibyo barimo.

Umwana ukiri muto uri guseka yishimye ari koga mu maso amazi ari kuva muri robine, yambaye agakabutura k'icyatsi n'umupira urimo amabara y'umukara n'ay'umuhondo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'ishati y'ubururu bukeye, ari guseka yishimye akandagiye ku giti hasi ari gukaraba intoki ku mazi ariko kuva mu kajerekani gato k'umuhondo bakase umutwe.

Umukobwa usutamye imbere ya robine iri kuvamo amazi, ari kuvomera amazi mu ijerekani y'umuhondo, ijekani kandi iteretse mu mabasi abiri agerekeranye, imwe y'ubururu indi y'umweru, inyuma y'uwo mukobwa hanitse imyenda ku mugozi y'amabara atandukanye.

Umugore ukuze wambaye umupira w'ubururu n'ijire y'ubururu bwijimye n'amarinete, afite impapuro nyinshi mu ntoki ari kugenda azitanga ku bantu, imbere ye hari umugore urambuye ukuboko ategereje ko amuha urupapuro, kandi hari n'undi ari kuruhereza.

Umwana ukiri muto wambaye agakanzu k'igitenge karimo amabara y'umutuku n'umukara n'umuhondo, ari gukaraba intoki ku mazi ari guturuka muri robine, hasi hari ibase y'umukara iri kugwamo ayo mazi.

Umugore utwite, wambaye agapfukamunwa, uryamye ku gitanda cyo kwa muganga witwikiriye igitenge, iruhande rwe hari undi mugore wambaye agapfukamunwa uri kumufasha, hari n'umuganga ku ruhande rwe wambaye imyenda y'abaganga n'agapfukamunwa, uri kumva umwana mu nda.

Umukobwa wambaye umupira wa orange, arunamye ari gusekera uruhinja, rukiri ruto ruteruwe na nyina, ari gushaka kuruterura na rwo ruri kumureba, umugore ateruye umwana yambaye umupira w'umweru, inyuma ye hari abandi bagore na bo bateruye abana.

Umwana wambaye agashati k'igitenge wishimye ari gukina n'amazi ari guturuka muri robine, hirya ye hari amajerekani, imwe y'ubururu n'indi y'umuhondo, iy'ubururu ifite agafuniko gatukura, iy'umuhondo hariho umubirikira w'umweru.

Abagore benshi bicaye ku murongo, bose bakenyeye ibitenge, bose bakikiye abana babo, umwe akikiye umwana we ari kumwonsa, undi ateruye umwana we ari kumushyira ku rutugu.

Abantu bicaye mu nama harimo abazungu n'abirabura, bicaye ku meza atwikirije igitambaro cy'umukara, hariho uducupa tw'amazi n'amakaye yo kwandikaho, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku.

Abantu bane bicaye mu nzu ifite amatafari ahiye, basa naho bafite icyo bategereje, inyuma yabo hari ibyapa byinshi binini, bifite amashusho agiye atandukanye.

Abantu benshi bambaye imipira ya oranje n'umupolisi wambaye imyenda y'akazi ya polisi bari gufatanya mu gutera ibiti, bamwe barahagaze abandi barunamye bari gukora mu butaka ari na bo bari gutera bya biti.

Umugore w'umuganga witandiye igitambaro cy'umweru mu mutwe, ari kwita ku musaza ukuze wambaye imyenda y'umukara n'ingofero y'umukara, hirya hari abandi baganga bagiye batandukanye bari kwita ku barwayi.

Abana bakiri bato bari ku ishuri bambaye imyenda y'ishuri ifite ibara rya kaki bakikije urukarabiro bamwe bari gukaraba mu ntoki abandi barimo guseka undi nawe azamuye ibiganza bye asa n'usuhuza umuntu umuri imbere.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu bazengutsa ameza, imbere yabo hicaye undi uyoboye iyo nama, muri abo bantu harimo abagabo n'abagore, muri abo bagore harimo babiri b'abazungu n'umwe w'umwirabura, inyuma yabo hari Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umugore utwite yambaye igitenge n'ikoti ry'umukara, yicaye ku ntebe yicaranye n'umugabo umwe umufashe ku rutugu, imbere yabo hari undi mugore wambaye itaburiya y'ubururu, ateruye igipapuro mu ntoki kiriho amashusho atandukanye, ari kukibereka agira ibyo abigisha.

Icyumba kinini kirimo ababyeyi b'abagore benshi bateruye abana babo, hari umugore uhagaze imbere y'abandi, wambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'umutuku n'icyatsi, ateruye umwana we, afite n'ifishi y'umuhondo mu ntoki n'akandi gato k'ubururu.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye n'ingofero mu mutwe, ari guseka yishimye ateze ibiganza ari gukaraba intoki ku mazi ari kuva mu kajerekani k'umweru kamanitse ku giti.

Icyumba kiberamo inama kirimo abantu bica ari benshi, imbere yabo hari abandi bicaye ku ntebe babareba bari kubaganiriza, muri bo harimo abagabo n'abagore, harimo n'umugabo umwe w'umuzungu, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ajyanye n'ibyo barimo kuvuga.

Abantu barimo abagabo n'abagore barahagaze bareba imbere bari kwifotoza, inyuma yabo n'impande zabo hari ibishushanyo bitandukanye n'amagambo asobanura iby'ahantu bari, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hateretseho mudasobwa hari n'intebe z'imbaho.

Abantu bicaye bari mu nama, harimo abagore n'umusore umwe, umugore umwe afashe mikorofone ari gutanga igitekerezo cye, imbere ye hari mudasobwa, iruhande rwe hari amacupa y'amazi.

Umugore wicaye ku ntebe wambaye imyenda y'umweru n'amadarubindi, iruhande rwe hari mudasobwa n'uducupa twamazi dupfundikiye inyuma ye hicaye abandi bantu benshi harimo umugore wambaye ikoti ry'umutuku n'amadarubindi.

Igishushanyo cy'abakobwa babiri bambaye udupfukamunwa tw'umweru bari gusuhuzanya bakoresheje inkokora zabo umwe yambaye igisarubiti cy'ikabutura kigufi undi yambaye ipantaro n'umupira iruhande rwabo handitse amagambo ari nkibara ry'umukara asobanura ibijyanye n'ibyo barimo gukora.

Umugore wambaye igitenge cy'ubururu, wipfutse igitambaro mu ijosi no mu maso asa n'ubaye cyangwa urwaye, umukobwa amwicaye iruhande, ari kumufata ku rutugu asa n'umuhumuriza.

Abagore bane bicaye ku ntebe y'urubaho, bamwe bakenyeye ibitenge, abandi bambaye amakanzu, imbere yabo hicaye umugabo ku ntebe y'urubaho, wambaye ipantaro ya kaki wayizinze wayigejeje mu mavi n'umupira w'ubururu bwijimye.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'ubururu afite imisatsi yambaye amarinete, afashe ikarita mu ntoki yanditseho amagambo ari kuyerekana.

Umukecuru ukuze wirabura, arimo guseka, yambaye ishati y'igitenge, yiteze n'ikindi gitenge mu mutwe, igitenge cye kirimo amabara y'icyatsi, umuhondo, umukara n'umweru.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku n'agakoti k'umukara arahagaze ari kureba imbere, arimo guseka, inyuma ye hari icyapa kinini gifite ibara rya orange, cyanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umusaza wirabura ari guseka yishimye yerekana amenyo yose, amenyo ye y'imbere yavuyemo yambaye ingofero y'umwenda, yambaye ishati ya kakaro n'umukenyero w'umuhondo ateruye n'icumu mu ntoki.

Umugabo wicaye ibiganza bye byombi bipfutse mu maso he, arasa n'ubabaye, iruhande rwe hari umukobwa wambaye agapira k'ikijuju, ari kumuhumuriza amukoze ku rutugu.

Icyapa gishushanyijeho uruziga rufite ibara rya orange, ruzengurutswe n'amaboko abiri ari mu ibara ry'umweru, hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, hagati yayo magambo harimo igishushanyo cy'umugabo uri guseka, hasi y'urwo ruziga kandi hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu yanditse, n'andi ari mu ibara ry'icyatsi.

Abagore batatu bicaye mu cyumba cy'inama bahanze amaso umugabo ubari imbere, uwo mugabo yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma y'uwo mugabo hamanitse ibyapa binini bigaragaza insanganyamatsiko y'ibyo iyo nama iri kwigaho.

Abantu benshi bari mu cyumba, bamwe barahagaze, abandi basutamye imbere yabo bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu n'ifoto iriho umugabo.

Urubyiruko harimo abasore n'abakobwa bambaye imipira y'ubururu bukea barahagaze bari kureba imbere, bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo kandi umugabo muremure n'umugore mugufi bakuze bari gufasha urwo rubyiruko mu nyigisho.

Abantu bamwe bambaye imipira y'ubururu bukeye, bamwe bahagaze imbere y'igiti ari babiri, abandi barunamye hasi bari gutera igiti, abandi bari gucukura umwobo wo gushyiramo igiti, abandi barahagaze ari benshi ku murongo, bafite icyapa gito cyanditseho amagambo.

Abagore babiri bicaye barebana umwe yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara undi nawe yambaye ikoti ritukura n'ipantaro y'umutuku n'ingofero irimo amabara ya gisirikare.

Umukobwa wambaye ijire ifite ibara ry'umuhondo wirabura, ari kureba imbere ku muntu uri kumufotora, arimo guseka yishimye, iruhande rwe handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari ibara ry'umuhondo.

Icyumba kiri kuberamo inama cyangwa amahugurwa, kirimo abantu bicaye, bahanze amaso umugabo ubahagaze imbere ari kubigisha, inyuma y'uwo mugabo kandi hari ibyapa bitandukanye bigaragaza icyo bari kuvugaho muri iyo nama.

Umugabo usa nabi cyane usa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe, aricaye hasi yakenyeye igitenge, ari ahantu hari umuyoboro w'amazi, iruhande rwe hari ibindi bintu byinshi bimeze nk'imyanda.

Umukobwa w'imibiri yombi ufite umusatsi mwinshi, wambaye agakufi mu ijosi n'isengeri y'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, ari guseka cyane yifashe mu mutwe, yicaye ku ntebe ibaje mu giti akaguru kamwe yakazamuye akandi kari hasi.

Abagore babiri bicaye, umwe yambaye ikanzu y'igitenge, yambaye n'ingofero mu mutwe, ateruye n'umwana mu ntoki, undi na we yambaye agapira k'umweru, afite n'umusatsi muke, ateruye na terefone mu ntoki, ari kwereka mugenzi we ibiri muri terefone.

Umugabo usa nabi, wambaye n'imyenda isa nabi. Afite imisatsi y'inweri n'ubwanwa, arirabura, yiyambitse ipine ku gihimba cye, yicaye hasi, iruhande rwe hari abandi bagabo bambaye amapantaro n'inkweto.

Umusore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga arasamye abaganga bambaye ga z'ubururu mu ntoki bari kugerageza gukemura ikibazo afite mu kanwa bakoresheje udukoresho twabugenewe.

Umwana ukiri muto w'inzobe, wasamye ari kugaragaza amenyo, hari ibiganza bibiri byambaye ga z'umweru, bifashe udukoresho dufasha mu gusuzuma amenyo bari kudushyira mu kanwa k'uwo mwana.

Umusore w'inzobe wambaye amadarubindi, afite iherena ku mazuru, afite ubwanwa, arimo guseka yerekana amenyo yose, ari gutunga urutoki ku munwa we, yambaye n'umupira ufite ibara ry'umweru.

abaganga babiri umwe wambaye ishati y'akazi y'umweru na ga z'umweru n'undi wambaye ishati y'akazi y'icyatsi na ga z'umweru bose bambaye udupfukamunwa bafite ibikoresho byabugenewe bari kwita ku kibazo cy'amenyo cy'umurwayi w'umugore uryamye ku gitanda imbere yabo.

Umukobwa ukiri muto w'umwirabura, wambaye uduherena tw'umweru, arasamye ari kugaragaza mu kanwa ke, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu bukeye na ga z'umwe mu ntoki, afashe udukoresho yifashisha mu gusuzumisha, ari gusuzuma mu kanwa ka wa mukobwa.

Umugabo n'umwana we bose bambaye imipira isa y'ubururu bukeye buri wese afashe urudodo mu ntoki ze ari gukoza mu menyo umugabo ari kwerekera umwana uko basukura amenyo.

Inzu y'magorofa atatu irimo ibirahure byinshi yanditseho amagambo y'umukara nanandi magambo y'umuhondo, hejuru ifite ibara ry'icyatsi, ifite uruzitiro rusize ibara ry'ubururu, hateyeho nindabo imbere.

Umukobwa wambaye agakanzu k'umweru, afite imisatsi igera ku ntugu y'umukara, arahagaze ari kwireba mu ndorerwamo, ari guseka afite uburoso bw'amenyo mu ntoki ari koza amenyo. Imbere ye hateretse ibikombe bitandukanye birimo amavuta n'ibindi birimo ubundi buroso bw'amenyo.

Umukobwa wasamye ari kugaragaza amenyo ye yose afite mu ntoki agakoresho kagenewe gusukura amenyo, gafite ibara ry'ubururu bukeye kariho n'urudodo bashyira mu menyo.

Umugabo w'umwirabura ari gusa n'useka yerekana amenyo ye, ari gusukura amenyo ye akoresheje urudodo rw'umweru ari gushyira hagati y'amenyo, afite n'akandi gakoresho k'umweru mu kiganza cy'iburyo.

Abana bato bambaye imyenda y'ishuri irimo amabara y'icyatsi n'umweru, bari koza amenyo bakoresheje uburoso bw'amenyo, bafite n'udukombe mu ntoki turimo amazi, tumwe Dusa ubururu, utundi dusa umuhondo.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, barimo abagabo n'abagore, bamwe barahagaze abandi baricaye, bose bari guseka bishimye, inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo agaragaza ibyo bari barimo gukora.

Umusore w'umwirabura uri kwireba mu ndorerwamo, ari guseka yerekana amenyo ye, afite urudodo mu ntoki zombi rw'umweru ari gucisha hagati y'amenyo ye ayasukura.

Umusaza wirabura ufite imvi mu bwanwa, ari kugenda akoresheje agakoresho kabugenewe kamufasha kugenda, iruhande rwe hari umukobwa w'umuzungu uri kumwitaho amufasha kugenda.

Umubyeyi ukuze ufite inkoni mu ntoki yambaye agapira k'ubururu kerurutse n'agakufi mu ijosi, yicaranye n'umusore w'umuganga wambaye imyenda y'abaganga bari guseka bishimye.

Umugabo uri kugenda afashe ku gikoresho cyabugenewe kimufasha kugenda, iruhande rwe hari umuganga w'umuzungu wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'ubururu bwijimye, ari kumusekera amufasha kugenda.

Umusaza uri guseka yishimye yambaye amadarubindi, yambaye nishati ijya kuba umutuku iruhande rwe hari umuganga uri kumwitaho amusekera ari no kumupima uburwayi akoresheje ikintu yamwambitse ku kaboko.

Umukecuru ufite umusatsi urimo imvi n'umugore ukiri muto wambaye amarinete n'umwana mutoya, bose barimo guseka barishimye, bari ahantu hameze nko mu gikoni.

Umusaza ufite umusatsi w'imvi, ari guseka, yambaye ishati ya karokaro, mo imbere harimo agapira k'umukara, ateruye agasahane mu ntoki karimo ibiryo, ari kugenda akuramo ibiryo bimwe akoresheje ikiyiko abishyira ku yindi sahane, imbere ye hari andi masahani ahateretse n'ikirahure cy'amazi.

Umusaza ukuze afite imvi nyinshi mu mutwe aricaye ateruye utwuma twifashishwa mu myitozo ngororamubiri iruhande rwe hari undi mukobwa ukiri muto w'umuganga uri kwita ku murwayi.

Umusaza wirabura ufite imvi nyinshi mu musatsi no mu bwanwa, afashe telefone mu ntoki, ari kwereka umukecuru ufite imvi mu mutwe, wambaye agapira k'ubururu imbere yabo hari udukombe tw'imiti n'ikirahuri cy'amazi.

Umukecuru ukuze wambaye igitenge afashe igikapu mu ntoki ari kugihabwa hari n'undi mugore ukiri muto nawe wambaye igitenge bakikijwe n'abandi bantu batandukanye barimo kubakomera amashyi bishimiye icyo gikorwa.

Umugore ukuze ari mu myitozo ngororamubiri, aricaye arambuye akaguru kamwe akandi arakazinze, arambuye amaboko ye ari kuyakoza ku kaguru karambuye, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'icyatsi.

Umwana muto w'umukobwa ateruye umupira wa basikete ari guseka yishimye ari gukina n'umugabo umuri inyuma w'umwirabura ukuze wambaye ikabutura ya kaki bari mu kibuga cya basikete.

Umubyeyi ukuze ufite imvi mu mutwe, wambaye amaherena ariho akantu k'umweru, arahagaze, yambaye umupira w'amaboko maremare, arambuye amaboko, imbere ye hari umukobwa w'umuzungu uri kumufasha kugorora amaboko.

Umusaza ukuze wambaye umupira w'umweru w'ubudodo, yicaye ku meza, imbere ye hari imbuto z'ubwoko butandukanye, afite ikanya mu ntoki ari kurisha izo mbuto, ari kuganira n'umugore na we ukuze, wambaye imyenda y'akazi ari kumusukira umutobe mu kirahure.

Abagore bakuze babyibushye bambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, barimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yabo hari abagabo bari kubagenda inyuma, iruhande rwabo hari ibyatsi.

Umugore ukuze, wambaye marinete, afite imvi mu mutwe ari guseka yishimye, afashe icyuma mu ntoki ari gukata imboga, iruhande rwe hari umukobwa ukiri muto nawe uri guseka.

Umusaza wambaye agapira k'umweru n'ipantaro ya kaki wicaye mu kagare, ari kumwe n'umukobwa ukiri mutoya uri kumusekera amwitayeho, wambaye imyenda y'akazi yo kwa muganga.

Umuryango wishimye uri guseka, harimo umukecuru ufite imvi nyinshi, harimo umusaza wambaye amadarubindi, hari umugabo ukiri muto n'umugore ukiri muto, hari n'umwana mutoya.

Umugore ukuze ufite imvi mu musatsi we ari kureba imbere aseka ateruye utwuma tw'ibiro twifashisha mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira wo kwifubita urimo amabara y'umukara n'ay'umutuku mu imbere yambaye agapira k'umweru.

Abantu babiri bishimye bari guseka cyane, umwe ni umusaza, undi ni umukobwa ukiri muto. Umusaza ukuze yicaye mu kagare yambaye n'amadarubindi, umukobwa arimo kumucunga mu kagare ke.

Umusore n'umukobwa bahagararanye bari kureba imbere yabo, bari kwifotoza. Bose bafite mu ntoki ibihembo babonye; inyuma yabo hari icyapa kinini kigaragaza ibijyanye n'ibyo bihembo babonye.

Abantu harimo abagabo n'umugore umwe bicaye imbere bareba imbaga y'abantu ibahanze amaso, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amafoto n'amagambo bigaragaza inama barimo.

Abantu batandatu bahagaze bose bambaye imyenda y'amashashi ibatwikiriye umubiri wose ifite ibara ry'umweru. Bambaye n'udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu bukeye, kandi bambaye n'amarinete mu maso bari gusa n'abari kwirinda indwara ikomeye.

Umukobwa wambaye ikanzu ngufi irimo uturabo n'inkweto z'umukara ndende, ahagararanye n'umusore w'umuzungu wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu bukeye, bose bahagaze imbere y'icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara kiriho n'ibishushanyo byinshi.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'ubururu n'udupfukamunwa, umwe muri bo afite agakoresho ari gukoza mu kanwa k'umusaza wicaye imbere ye yasamye ari kumuvura, hirya yabo hari abandi bantu batonze umurongo.

Umugabo w'umuzungu wambaye umupira w'amaboko maremare y'umukara, yambaye amadarubindi y'umukara ndetse n'ingofero y'umukara, aterunye icyapa gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo, ari mu ibara ry'umutuku.

Abagabo babiri b'abayobozi, bicaye imbere y'abo bayobora, umwe muri bo ari kuvugira mu ndangururamajwi, abwira abamuri imbere, inyuma y'abo bagabo, hari icyapa kinini kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Abantu benshi bari gufata ifoto y'urwibutso harimo abagabo n'abagore bamwe baricaye abandi barahagaze, bose hamwe barambuye amaboko bishimye inyuma yabo hari icyapa kinini kigaragaza ibijyanye n'ibyo bari bari gukora.

Abagore bicaye bateye umugongo uri kubafotora, bose bari kureba ku ruhande rumwe, bicaye ku nzu isize irangi ry'umukara, kuri iyo nzu kandi hariho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku.

Abagabo babiri bambaye amakoti bari gusuhuzanya bahanye ibiganza bose bafite ibitabo mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amagambo n'igishushanyo cy'ikirangantego cy'u Rwanda

Inzu ikoze mu ruziga, ifite amabara y'ubururu n'umuhondo n'icyatsi, iruhande rwayo hari igishushanyo cy'umukobwa uri kugenda aturuka kuri iyo nzu, hejuru handitse amagambo, amwe yanditse mu ibara ry'umukara, andi yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba kiri kuberamo amahugurwa, hari abagore n'abagabo bicaye ku meza y'uruziga, umwe afite mudasobwa imbere ye, imbere yabo hari undi mugabo urimo kugira ibyo abigisha asoma ku kibaho iruhande rwe.

Icyapa gifite igice kimwe gisize ibara ry'umutuku ryanditsemo amagambo afite ibara ry'umweru, n'ikindi gice gisize ibara ry'umweru ryanditseho amagambo afite ibara ry'umukara, iruhande rw'icyo cyapa hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite n'igisenge cy'ubururu, hari n'abantu bari gutambuka baturuka kuri iyo nzu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biryamaho abarwayi, ibyo bitanda bisasheho amashuka y'icyatsi kandi hagati ya buri gitanda n'ikindi, harimo amarido abitandukanya.

Umugore ukuze w'umuganga wambaye itaburiya y'abaganga, ari kuvugana n'undi mugore ukiri muto wicaye ku buriri amuvura, iruhande rwabo hari undi mugore na we uryamye ku buriri uri kwitegereza ibyo bakora.

Inzu y'amagorofa abiri, isize amarangi atandukanye, harimo icyatsi cyijimye, n'umuhondo, imbere yiyo nzu hahagaze abagabo barimo kuganira, iruhande rwabo haparitse imodoka, amarembo y'iyo nzu, afiteho icyapa kinini kiriho ibikorerwa muri iyo nzu.

Icyumba cyo kwa muganga aho basuzumira uburwayi bw'amaso, hari imashini isuzuma uburwayi bw'amaso. Hari intebe z'icyatsi umuganga n'umurwayi bicaraho, hari ibishushanyo bigiye bitandukanye bigaragaza amaso, Hari n'aho muganga yakirira abarwayi, hariho intebe y'icyatsi muganga yicaraho n'intebe y'umukara umurwayi yicaraho, hari na mudasobwa ifite ibara ry'umukara.

Umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga z'ubururu mu ntoki n'agapfukamunwa, ari imbere y'imashini yo kwa muganga, ari kuyikoresha ibyo yagenewe gukora.

Icyumba kirimo ibitanda byo kwa muganga, ibyo bitanda biriho matera zifite amashuka y'icyatsi cyijimye, gifite n'idirishya rinini ry'ibirahuri, gisize n'amarangi y'icyatsi gikeye.

Icyumba kigari gifite amarange akeye, harimo iry'umweru n'irindi rijya gusa n'umuhondo, hasi hajya gusa n'urubaho, harimo imiryango ibiri minini yinjira mu bindi byumba, imbere kandi hari ameza asa naho ariyo bakiriraho abantu.

Icyumba kirimo imashini nyinshi zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ku rukuta rumwe hamanitseho isaha, gifite inkuta zisize amarangi y'umweru n'idirishya rinini ry'ibirahure.

Inzu isize irangi ry'umutuku wijimye ku ruhande rumwe, urundi ruhande isize irangi ry'umuhondo, imbere hariho inkingi z'amatafari, handitseho n'amagambo hejuru mu ibara ry'umweru, imbere y'iyo nzu hari abantu bamwe bari gusa n'abava kuri iyo nzu abandi bari kujyayo, iruhande rw'iyo nzu hari ihema rimanitse ryicayemo abantu.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye bose bambaye udupfukamunwa, imbere hari n'abandi bahagaze hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umutuku n'umupira w'umweru na we yambaye agapfukamunwa.

Inzu yubakishije amatafari, imbere hari urukuta runini rw'amabuye rwanditseho izina ry'ibikorerwa muri iyo nzu mu ibara ry'umweru, iruhande hari imigano ihagaze, imbere y'iyo nzu kandi hari ubusitani.

Ihema ririmo ibitanda byo kwa muganga, biryamyeho abarwayi bambaye udupfukamunwa n'abaganga bambaye amataburiya y'umweru, bari kwita kuri abo barwayi, na bo bambaye udupfukamunwa.

Inzu isize irangi ry'umweru, ifite inkingi ebyiri imbere zisize irangi ry'umukara, imbere yiyo nzu hari ibitaka, imbere y'inzu kandi hahagaze umukobwa wegamye ku nkingi y'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ijiri y'ubururu bwijimye n'amadarubindi, aricaye ari gupima uburwayi akoresheje ikintu bambika ku kaboko, ari gupima umugabo wambaye ishati ya karokaro, inyuma yaho hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu hari kandi na kizimyamyoto zifite ibara ry'umutuku.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore, harimo abazungu n'abirabura bahagaze bari kwifotoza bakikije urukuta rwanditseho amagambo asobanura ibikorerwa aho bari, inyuma yabo hari inzu yubakishije amabuye abo bantu bicaye mu busitani.

Iyi nzu y'igorofa igeretse rimwe, ifite igisenge cy'umutuku isize amarangi ajya kuba umweru, imbere yayo hari umuhanda hari n'ubusitani imbere kandi hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rimanitse, hari imodoka ifite ibara ry'umutuku wijimye iparitse imbere na moto.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari kumurongo bagana imbere ahantu hari ameza atwikije igitambaro cy'umweru, hicaye umugabo wambaye itaburiya y'umweru, imbere y'ayo meza hari umusaza wicaye mu kagare areba ku meza, iruhande rw'aba bantu kandi hari intebe z'umukara n'indi ntebe y'urubaho.

Inzu y'igorofa isize amarangi y'ikijuju, ifite amadirishya ahantu henshi, iruhande rwayo hari indi nzu na yo y'igorofa yubatse, imbere yayo hari icyapa kiriho amagambo agaragaza ibikorerwa muri iyo nzu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byose bisasheho amashuka y'umweru, buri gitanda kiba gifite inzitiramibu yacyo n'irido igitandukanya n'ibindi bitanda, icyo cyumba gisiza imarange y'umweru no hasi harasa umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu kuvura abarwayi, hagati muri icyo cyumba harimo igitanda kiryamyeho umurwayi, hirya hari n'ikindi gitanda kiriho ubusa, icyo cyumba gisize amarangi y'umweru.

Inzu y'amagorofa isize irangi rijya kuba umweru, ifite n'amabati asa umutuku, imbere y'iyo nzu hari guturuka abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, iyo nzu ifite uruzitiro rw'Ibyuma, kuri urwo ruzitiro hariho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, hari n'imodoka iparitse imbere yaho.

Icyumba gisa naho ari icyo kwa muganga, harimo umukobwa wambaye itaburiya y'umweru n'gapfukamunwa k'umukara n'amadarubindi, ari kureba muri mudasobwa.

Inzu izengurutse, imbere yiyo nzu hamanitse icyapa kinini kigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu, kumiryango y'imbere, hahagaze abantu, imbere hari imodoka eshatu, imwe y'umukara, n'izindi ebyiri z'umweru.

Umurwayi w'umugore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga kirimo amashuka y'umweru, arasa n'urembye, iruhande rwe hari imashini yo kwa muganga iriho insinga nyinshi, bisa naho iri gukoreshwa mu kumuvura.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abaganga bambaye imyenda y'umweru ibapfutse ahantu hose n'udupfukamunwa tw'umweru, harimo ibitanda biryamyeho abarwayi, hari n'amarido atandukanye buri gitanda, hari intebe z'umukara n'ameza y'umweru.

Inzira y'amasikariye izamuka igana ku nzu yubakishije amatafari ahiye ifite n'inkingi z'umweru hejuru kuri iyo nzu hari icyapa kinini cy'ubururu kigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu, imbere y'iyo nzu hahagaze abantu b'ingeri zitandukanye.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite n'inzugi zisize amarangi y'umweru, imbere hateretse ameza akoze mu mbaho atwikiriyeho igitambaro gisa n'umuhondo, n'intebe zikoze mu mbaho, hicaye umugore ufite ishati y'umweru irimo amabara y'umukara hari n'abandi bantu batatu bafite imipira y'ubururu.

Icyumba gifite isuku, kirimo ahantu ho gukarabira intoki hagiye hatandukanye. Kirimo utubati dusize amarangi y'umweru, hasi hari isima inyerera ishashagirana.

Umugore ukuze w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'akazi afite igikoresho mu ntoki arimo gupima undi mugore wicaye ku gitanda, iruhande rwabo hari undi mugore uryamye ari kureba ibyo bari gukora.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi biryamaho abarwayi, iruhande rwa buri gitanda hari imashini ifasha mu kureba uko abarwayi bameze, icyo cyumba kandi gifite amadirishya menshi n'amatara menshi.

Icyumba cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gukora iyo myitozo, ku nkuta hometse ibirahure binini by'indorerwamo, hasi muri icyo cyumba hasa n'ibara ry'umukara naho hejuru no ku nkuta, hafite ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe abana, gisize amabara atandukanye harimo umuhondo na oranje n'ayandi, harimo ibishushanyo byinshi bishimisha abana n'ibikinisho byinshi abana bakina na byo, hari intebe zo kwicaraho uruhande rumwe, urundi hari ameza aho bakirira abantu.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ifite amadirishya manini arimo ibirahure, hari ibyuma byo guterura byinshi by'ubwoko butandukanye hirya hari ibindi byuma bifasha mu myitozo ngororamubiri by'ubwoko butandukanye icyo cyumba gisize amarangi y'umweru ku nkuta.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara yicaye hasi, iruhande rwe hari ibyatsi byinshi byameze, yicaye munsi y'igiti kinini kirekire cy'inganzamarumbo.

Inzu eshatu za etaje, zose zubatse kimwe, zose zisize amarangi y'umweru igice kimwe, n'ikindi gice cyubakishije amatafari ahiye, zose zifite amadirishya afite ibirahuri bitareberwamo; iruhande hari abantu bari kugana kuri izo nzu, baje kuzisura. Muri abo bantu harimo abagabo n'abagore.

Inzu isize ibara rijya kuba umweru, ifite imiryango isize amabara y'umweru n'igisenge cy'umutuku, ikikijwe n'ayandi mazu impande zose, imbere yaho haparitse imodoka, hari abantu bamwe bari kujya kuri iyo nzu abandi bava kuri iyo nzu, imbere kandi hari ibyapa bifite amabara y'ubururu n'ay'icyatsi, byanditseho n'amagambo y'umweru.

Amarembo afite imiryango isize irange ry'ubururu iruhande rwayo hari ibyapa bitandukanye, hari bibiri by'umweru n'ikindi kimwe cy'ubururu kiriho amazina agaragaza ibikorerwa inyuma y'ayo marembo, imbere y'amarembo hari umuhanda wa kaburimbo.

Inzu y'ikigo nderabuzima yubakishije amatafari ahiye, imbere hari agatebe k'urubaho hicayeho umuntu, imbere y'iyo nzu kandi hari umugore wambaye agapira k'umutuku n'abandi bagabo babiri, umwe wambaye ishati y'umweru, undi bambaye agapira karimo amabara y'umukara n'ay'umuhondo.

Inzu iri ahantu hitaruye yubakishijwe amabuye, inyuma yayo hari izindi nzu ziyikikije, iruhande rwayo hari ubusitani bwiza burimo indabo z'ubwoko butandukanye, hari n'inzira iri gutambukamo umugore n'umwana ukiri muto, hari n'undi mwana ubari imbere usa n'aho ari mukuru.

Inzu yubakishije amatafari ahiye y'amagorofa aribiri, hejuru hari icyapa cyanditseho n'amagambo manini agaragaza ibikorerwa muri iyo nzu, kandi hari n'amadirishya afite irangi ry'ikigina n'ibirahure, imbere y'iyo nzu hari utwapa dutoya natwo tugaragaza ibikorerwa muri iyo nzu, hari kandi na moto ihaparitse.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo imashini zitandukanye zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari ikirahure kinini gikwiriye urukuta rwose, hari kandi na televiziyo ku ruhande rumwe.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite imiryango n'amadirishya bifite irangi rya shokora, imbere kuri iyo nzu hateyeho irangi ry'umweru, ku ruhande hari ubusitani burimo indabo n'ibyatsi, inyuma y'iyo nzu hakaba ibigega bibiri bijyamo amazi bifite ibara ry'umukara.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara w'umutuku , n'umweru n'umukara ,yicaranye n'umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge, imbere yabo hari umugore w'umuganga wambaye imyenda y'akazi ya move, ari kubitaho abapima indwara.

Umusaza wambaye umupira w'ikigina w'umwirabura afite icupa ry'amazi mu ntoki yarishyize ku munwa ari kunywa amazi, arasa n'uvuye mu myitozo ngororamubiri.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye isengeri y'icyatsi, ufite n'akantu ka move ku kaboko, afite icupa ry'amazi mu ntoki ze, ari kuyisuka mu maso.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga, harimo igitanda cyagenewe kuryamaho abarwayi gifite ibara ry'ubururu, imbere yacyo hari agatebe kicarwaho n'umuganga n'ako gafite ibara ry'ubururu, hejuru hari itara rimuritse, ku ruhande hari izindi mashini zikoreshwa, icyumba cyose gisize amarangi y'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro ya kaki, aryamye ku gitanda, akaguru ke kamwe kamanitse ku cyuma kigafashe, imbere ye hari abaganga bahagaze, hari abandi bagabo bambaye amakote bari kwitegereza akaguru ke.

Umusore w'umwirabura wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'icyatsi n'inkweto z'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri, mu biganza bye byombi ateruyemo ibiro yifashisha mu myitozo, iruhande rwe hari umusore w'umuzungu uri kumufasha mu myitozo ye.

Ibishushanyo by'abantu bari gukora ibikorwa bitandukanye hari uwicaye, hari uri kwinanura, hari uri kwiruka, hari uteruye ibyuma, hari uri gukina umupira, hari n'abandi bari gukina bombi.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwabyo hari amasahani atatu ariho ubwoko bw'ibiribwa byinshi, iya mbere iriho inyama n'amagi, iya kabiri iriho imineke n'inkeri ibijyanye n'imbuto, iya gatatu iririho amashu, puwavuro n'ibindi bijyanye n'imboga.

Umusore w'imibiri yombi ari mu myitozo ngororamubiri yambaye ikabutura y'umweru n'isaha y'umweru, yambaye n'inkweto zirimo amabara y'umweru n'umutuku, ari mu cyumba kirimo ibirahure.

Abakinnyi bari mu kibuga bambaye imyenda yabo yagenewe gukinana, barahagaze bari kureba mugenzi wabo uryamye hasi wavunitse, iruhande rwabo hari abakozi babishinzwe bambaye amajire y'umutuku bari kumwitaho.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikabutura ngufi y'umukara avuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye isaha ku kaboko y'umukara afashe n'ibiganza bye byombi ku ivi rye rimwe.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri yambaye agasenge kagufi k'umweru n'ipantaro y'umukara, arahagaze azamuye amaboko yombi hejuru ahagaze imbere y'inyanja y'amazi menshi.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bari mu myitozo ngororamubiri bahagaze ku mirongo bose bambaye imyenda yagenewe imyitozo ngororamubiri barambuye amaboko.

Umukobwa unanutse w'igikara uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'icyatsi gikeye n'agasengeri kagufi k'icyatsi gikeye, aricaye arambuye amaguru arambuye n'amaboko ari gushaka kuyakoza ku birenge bye.

Abakinnyi bakina imikino itandukanye, bamwe bari gukina umupira w'amaguru, abandi bari gukina basikete, abandi bari gukina vore, abandi bari gukina tenisi, hari n'abari kunywa amazi. Handitse kandi amagambo atandukanye asobanura ibijyanye n'iyo mikino.

Abana b'abakobwa bakiri abangavu, bari mu kibuga bakinairamo umupira, barimo kubyina imbyino zigezweho, inyuma yabo hari abandi bantu benshi baje kureba ibyo bari gukora.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara asa n'upfukamye arunamye, amaboko ye ayarambuye ariko kuyakoza hasi, i ruhande rwe hari igitanda gifite ibara ry'ikijuju.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri yambaye agasengeri kagufi karimo ibara ry'iroza n'ikijuju, yambaye na kola y'umukara aryamye hasi, ari kugorora umugongo, iruhande rwe hari amavaze ateyemo indabo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agasengeri kagufi k'umweru n'ipantaro y'ubururu bukeye, uri gusa n'upfukamye, akaguru kamwe yakazamuye arakazinze, amaboko ye yombi arazamuye mu kirere, hari ahantu hasize irangi ry'umweru.

Akadege gato kitwara kitwa drone gateruye agakarito gato k'umweru karimo imiti, imbere y'ako gakarito hashushanyijeho uruziga muri urwo ruziga harimo umusaraba w'umweru.

Icyapa kirimo uruziga rufite ibara ry'umweru hagati harimo umusaraba ufite ibara ry'umutuku n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara akoze uruziga, hasi y'urwo ruziga hari andi magambo yanditse mu ibara ry'umukara atambitse.

Umugabo uhagaze ku rwego, uri kureba hejuru y'ikintu kimeze nk'akabati, iruhande rwe hari undi mugabo uteruye ikintu cy'umutuku mu ntoki, ari kumuhereza ibikoresho byo gukoresha, iruhande rwabo hari undi mugabo uri kuza abasanga, wambaye agapfukamunwa n'umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Ukuboko k'umuzungu guteruye icupa ryuzuye amazi rifite umufuniko w'ubururu riri mu kirere inyuma hari ikirere gisa neza gifite amabara y'ubururu bukeye na ay'umweru.

Umugore n'umugabo b'abazungu bahagaze bateranye umugongo, buri wese afite icupa ry'amazi ari kunywa amazi yenda kuyamaramo, basa n'abavuye mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wirabura usa n'uvuye mu myitozo ngororamubiri, amanitse amaboko yombi hejuru, yambaye isaha y'umukara, yambaye nakuteri z'umweru mu matwi, yambaye kandi agasengeri kagufi k'ibara rya oranje.

Umusore uryamye ku gitanda kiri mu nzu bakoreramo imyitozo ngororamubiri afite imisatsi isutsemo inweri ziryamye ku mutwe, iruhande rwe hari undi musore w'umuzungu uri kumufasha kugorora amaboko ye.

Umukobwa wambaye imyenda y'akazi y'abaganga ifite ibara ry'icyatsi yambaye na ga mu ntoki z'ubururu imbere ye hari amakayi n'ibitabo ari kwambara agapfukamunwa areba muri mudasobwa mu ijosi rye afitemo igikoresho gikoreshwa n'abaganga.

Umukobwa ubyutse ari kwinanura, yambaye agakora k'umukara n'agasengeri kagufi k'umukara, yicaye ku buriri bushashe neza.

Icupa ry'amavuta rishushanyijeho igikakarubamba iruhande rwaryo hari indimu ebyiri zikase hari n'ibitunguru bibiri bikase hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Agakombe k'umweru, karimo icyayi n'indimu ikase, gateretse ku gasahani na ko k'umweru, kuri ako gasahani kandi, hateretseho indimu nyinshi zikase, ku ruhande rw'ako gasahane, hariho indi ndimu idakase.

Icupa rivamo icyo kunywa kidasembuye, rifite ibara ry'umutuku, rishushanyijeho inyoni iri kuguruka ifite ibara ry'umukara, ryanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi arimo ibara ry'umukara.

Umugabo wirabura, wambaye umupira w'umweru uriho akabara k'umukara ku maboko no mu ijosi, ari gusoroma imbuto ku giti kiri ahantu mu kigunda, hari n'ibindi biti byinshi by'amoko menshi.

Agakarito k'ibinini gafite ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi, kariho ishusho y'agasorori karimo ibiryo kanditse n'amagambo yanditsew ibara ry'umukara, n'ibinini bifunitse mu gifuniko cyabyo bifite ibara rya orange.

Isoko ririmo abantu benshi bahagaze, abari gucuruza n'abari kugura, hari ahari gucururizwa imbuto za pome, imbere yazo hari ibikombe bigiye bitandukanye, hari na amvelope n'amacupa y'amavuta.

Ikiganza cy'umuzungu kiri gukora ku mababi manini y'icyatsi ayo mababi ni ay'igiti, igiti gifite imbuto nazo zisa icyatsi icyo giti giteye imbere y'inzu.

Iminwa iri guseka igaragaza amenyo y'umweru, hasi hari imiti yo kwisiga iri mu gacupa k'umweru gashushanyijeho igikakarubamba, ku ruhande handitse amagambo ari mu ibara ry'umukara n'andi ari mu ibara ry'icyatsi, yose asobanura ibijyanye n'ibigaragara ku mafoto.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'akagofero mu mutwe k'ubururu, imbere ye hari udukarito twinshi tw'imiti, dufite ibara ry'umutuku, harimo n'iry'umuhondo, imbere ye kandi hateretse uducupa tuvamo imiti na two twinshi.

Udukombe tune tw'imiti itandukanye duteretse k'umurongo hirya yatwo hari amacupa arimo amavuta yo kwisiga nayo ateretse ku murongo hejuru hari amagambo yanditse asobanura iby'ayo mavuta n'iyo miti.

Udutibe tubiri duteretse ducuritse twose dushushanyijeho igikakarubamba turiho amagambo asobanura ibijyanye n'umuti urimo muri utwo dutibe, amwe asa icyatsi andi asa umukara.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amazi, harimo amata, harimo n'ibindi byo kunywa bitandukanye. Ku ruhande rumwe hari firigo, ahandi hejuru hariho televiziyo harimo n'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru uri gucuruza muri iryo duka.